Umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro, wahuje abayobozi b'Umurenge wa Kigarama ndetse n'abagore batuye mu Murenge wa Kigarama, abagore basobanuriwe neza ko bahawe ijambo, ndetse kandi bagomba kwitinyuka, kandi ko umugore ahora ku isonga.

Inama yateraniye ku Murenge irikuganira ibibazo bigaragara muri uyu Murenge. Iyi nama yitabiriwe n'urubyiruko ndetse rwiganjemo abasore n'abakobwa batuye muri uyu Murenge.

Umuhanda ukoreshwa n'abanyamaguru, abamotari ndetse n'amagare atwaye abantu n'ibintu. Ndetse kandi uwo muhanda uba uriho ibikorwaremezo nk'amazu, uriho n'ibyapa byamamaza ibintu runaka.

Umuhanda mwiza kandi mugari, wagenewe ko abanyamaguru, ibinyabiziga byikoreye n'ibitikoreye bigomba kuwucamo, ndetse kandi uwo muhanda uba ufite n'ibimenyetso cyangwa se feruje ziyobora ibinyabiziga bigiye guca muri uwo muhanda.

Mu gihugu hariho abacamanza, bashinzwe gucira imanza abantu bakoze ibyaha bigiye bitandukanye, ndetse bakanarenganura n'abarengana, iyo basanze wakoze icyaha runaka, bagukatira igifungo, bitewe n'icyaha wakoze icyo aricyo ndetse n'uburemere gifite.

Umwanya wagenewe guparikamo imodoka, zigiye gutwara abagenzi, ndetse n'izivuye kubatwara, bagiye ahantu hagiye hatandukanye, nko mu ntara, ndetse no mu bindi bice bigiye bigize Intara zigiye zitandukanye.

Icyapa cyo mu muhanda, gifite ibimenyetso biri mu ibara ry'umukara, ndetse biryamye mu ibara ry'ubururu, umuzenguruko w'icyo cyapa ni umweru, bisobanurwa ko ari aho abanyamaguru bambukira mu gihe ibinyabiziga bigenda, ndetse no mu gihe bitari kugenda.

Umuhanda mwiza, ibinyabiziga binyuramo, ab'amagare, amamoto, kandi umuhanda ufite ibikorwa Remezo, ufite ibyapa biyobora abantu, ndetse ufite n'imiturirwa, abantu bakeneramo serivise izo arizo zose.

Inzu nziza cyane, ni etaje, isize amabara y'umweru, ndetse amabati yayo ni umutuku, ikindi, iyi nzu ifite aho baparika ibinyabiziga hanini kandi hitaruye, ndetse haparikwamo ibinyabiziga by'ubwoko bwose.

Umuhanda mugari mwiza urimo abashoferi batwaye ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo amamodoka, amamoto, ndetse n'amagare.

Umuhanda mwiza kandi mugari unyurwamo na ma moto ahetse abantu ndetse nadahetse abantu uyumuhanda ufite ibikorwa remezo birimo nka matara amurikira abagenzi ndetse nibyapa biyobora abantu ukaba ukikijwe na mashyamba.

Imenyekanisha cyangwa se iyamamazwa ry'ibikorwa by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi mu kwibwa mu kwivuza ndetse n'ibindi; radiyati imenyekanisha ko nta mpamvu yo kwibwa mu gihe bakwishingira; ntawamenya ejo wasanga ibyawe byibwe irinde sinamenye.